Iyi ni foregisi biro ni ukuvuga n'icyapa kiranga ahantu hakoresherezwa igikorwa cy'ivunjisha ry'amafaranga bakaba niba ufite abanyarwanda bakaguraha amadolari cyangwa niba ufite amadolari bakaba baguha amanyarwanda, iki cyapa kiri kuranga aho hantu nyirizina uko hitwa ko ari muri giraneza.